Igiti kinini cyane kiriho insinga z'amashanyarazi, agiye mu byerekezo bitandukanye kugira ngo abaturage babashe kubona umuriro, banacane amatara ndetse bawukoreshe n'ibindi nko kujya kuri interineti ndetse no gukoresha muri telefoni zabo.

Umuhanda w'igitaka urimo ibinogo byinshi byarezemo amazi ndetse ucamo imodoka ariko urabangamye cyane kuko watera impanuka uyu nguyu.

Abantu benshi bari mu isoko, bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, imyenda ndetse n'ibiribwa mu isoko ryiza, ryubakishije amabati y'ubururu kugira ngo babone abakiriya.

Abaturage benshi bari muri sitade ifite imyanya imwe y'ubururu n'indiy'umuhondo n'indi y'icyatsi, bose bari hamwe bari gushimirana.

Ikibumbano kinini cy'inka y'inyambo. Kiba mu Karere ka Nyagatare, gishushanya umuco ndetse n'umwihariko w'ako karere mu muco nyarwanda. Ikindi gihari nuko hari amakuru y'imiyoborere muri ako karere, uturere n'intara bihesheje imihigo, Akarere ka Nyagatare.

Abantu bari mu rugendo rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi Mata, igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane, harimo abasirikare ndetse n'abaturage basanzwe.

Abantu bari mu nama hari abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye ariko abenshi ni abakuze, hari umu mamama uri gutanga igitekerezo kandi mu buryo yishimiye.

Abantu bari mu nama bicaye munsi y'igiti inama yaremeshejwe n'abasirikari ndetse na polisi n'abandi bayobozi, abaturage bategereje ibyo babwirwa n'abayobozi.

Inama irimo abayobozi b'inzego zitandukanye, harimo abasirikare harimo na polisi ndetse n'abandi bayobozi baricaye bari gukurikirana ibikorwa byose.

Ikibuga kirimo gukinirwamo umupira w'amaguru, harimo ikipe imwe yambaye ubururu, indi yambaye umuhondo. Umukinnyi w'ikipe yambaye umuhondo ari hasi mu gihe umupira ufashwe n'umukinnyi n'ubundi w'iyo kipe yambaye umuhondo ndetse n'umunyezamu ari hasi.